Udushushanyo twifashishwa n'abana batoya, aho tugaragaza ibikoresho bitandukanye, birimo icyuma n'imbuto zo kurya. Bikaba bishushanyije mu mabara atandukanye arimo umuhondo icyatsi n'umutuku.

Icyumba k'ishuri aho umwana barimo baramwigisha imibare. Abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'umweru hejuru n'umukara hasi. Umwarimu wabo akaba afiteho indangururamajwi y'umukara yambaye umupira wa oranje.

Ikigo cy'amashuri kikaba gisize amarangi y'umuhondo, ku rukuta hakaba hashushanyijeho inyamaswa ,harimo inka ,ndetse n'agasumbashyamba.

Ibyicungo by'abana, aho abana barimo baricunga mu byicungo byabo, aho ibyo byicungo bisa umutuku ndetse n'umuhondo. Abana bakaba bambaye imyenda y'umukara hejuru.

Ikigo cy'amashuri aho abana bigira hakaba iki kigo cyubakishije amabati y'umutuku, ibikuta bikaba bisize amabara y'umuhondo, hakaba hanashushanyijeho ibishushanyo hanze.

Ibipupe by'abana bitatu biteretse hasi, harasa umweru ibipupe bikaba bisa umuhondo, byambaye udutambaro tw'umutuku ndetse n'ingofero itukura.

Icyumba abana bato bigiramo kikaba giteyemo intebe zisa umutuku, ameza y'ubururu ndetse n'andi meza y'umuhondo yo akaba ateyeho intebe zisa ubururu.

Ibikoresho umunyeshuri yifashisha arimo kwiga ndetse anashushanya ibishushanyo byo mu ishuri. Haba harimo uducamirongo uducaruziga.

Ikigo cy'amashuri, iki kigo kikaba cyubatse amazu agerekeranye, aya mazu akaba asakaje amabati y'ubururu, ibikuta bikaba byubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya bikaba bisa ubururu.

Ikarita y'Isi aho iyi karita yerekana ibice bitandukanye by'Isi, aho ikarita yifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri uburyo Isi iteyemo cyangwa se ikoramo.

Abanyeshuri bo mu kigo cy'amashuri matoya, bakaba barimo bakina umupira n'umugore. Bakaba abanyeshuri bambaye impuzankano n'umupira w'umuhondo uvanzemo n'icyatsi. Bakaba barimo barakinira hanze hateye ubusitani.

Inzu y'ishuri abana bigiramo, hakaba hanze hari idarapo ry'Igihugu, rikaba risakaje amabati y'ubururu, rikaba risize irangi ry'umweru ku bikuta, irindi ry'umukara hasi, hakaba inzugi zabo ni umukara, ibirahure bikaba umweru.

Ikigo cy'amashuri kikaba cyubakishije amatafari ahiye, na ho abayobozi bakaba barimo barashimira umwarimu wakoze neza.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga no gushushanya aho harimo: uducamirongo, ndetse n'udusiba igihe bidateganyijwe.

Umwarimu w'umugabo akaba arimo kwigisha uburyo umutima winjiza ukanasohora amaraso, ukaba umutima ushushanyije ku kibaho.

Ikigo cy'amashuri, aho iki kigo cyirimo kiraratahwa, kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye, inzugi z'ubururu n'ibirahuri by'umweru, kika kiri gutahwa n'abayobozi, abarimu n'ab'igipolisi cy'igihugu.

Ishuri ryuyubakishije amabati atukura, amadirishya y'umweru, risize irangi ry'umweru n'umuhondo n'ibirahure by'umweru, hanze hateye ibyatsi n'indabyo.

Ishuri ry'abana ryigamo abana b'inshuke, hakaba harimo ibikinisho bitandukanye byifashishwa n'abana mu gihe barimo kwiga.

Igishushanyo cy'ikigo cy'ishuri, aho gisakaje amabati y'uburu, ibikuta bikaba bisa umweru n'ikigera hasi, hakaba harimo abana bagiye ku ishuri n'abarezi babo.

Ibikoresho byifashisha mu kwiga ndetse no mu gushushanya, ibyo bikoresho harimo uducamirongo, uducaruziga ndetse n'udusiba igihe bidakenewe, bikaba bikoresha bari kwiga cyangwa gushushanya.

Umwarimu akaba arimo kwigisha abanyeshuri, aho uyu mwarimu afite igitabo mu ntoki, akaba yambaye umwenda w'akazi ari wo itamuriya y'mweru, akaba arimo kwigisha isomo ry'imibare.

Inzu y'ishuri ry'abana batoya. Aho ririmo ibikoresho byinshi. Aho harimo ibisa umutuku, ibisa icyatsi, ibisa umuhondo n'ibisa umukara.

Icyumba cy'amashuri iki cyumba kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye, hakaba harimo ikibaho gisa umukara ndetse iri shuri rikaba ririmo intebe.

Ikigo cy'amashuri, aho iki kigo cyubakishije inzugi z'ubururu n'amadirishya y'ubururu ibirahuri bikaba bisa umweru naho amabati akaba asa ubururu, ibikuta bikaba bisize irangi ry'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru ndetse na kaki, bakaba bari ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi.

Ikigo cy'amashuri aho iki kigo gifite abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru n'ikigina hasi, bakaba abanyeshuri bari kumwe n'ababyeyi ndetse n'abashyitsi, hakaba imbere y'iki kigo hateye ubusitani burimo ubwatsi ndetse n'indabyo.

Icyumba k'ishuri aho umwarimu arimo abigisha abanyeshuri. Bakaba aba banyeshuri bafite imashini zifashishwa mu myigire yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri ziganjemo umweru hejuru ku mashati naho hasi akaba ari umukara, hakaba harimo n'abambaye ikigina, aho barimo kwifotoza.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bari munsi y'igiti, aho bambaye impuzankano hejuru bambaye ubururu bwerurutse bw'ikirere, hasi ikigina n'aho abandi, bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'umukara.

Abanyeshuri bari mu ishuri, ishuri rikaba ryubakishije amatafari ahiye, ibirahuri by'umweru, n'aho imbere hakaba harimo ikibaho gisa umukara, abanyeshuri bakaba bambaye amashati y'imyeru.

Umwarimu arimo arigisha abanyeshuri mu ishuri. Aho iri shuri rifite, ibirahuri by'umweru, ni amadirishya y'ubururu, ndetse abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'umweru, naho mwarimu akaba yambaye ishati y'ubururu.

Abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye aho abo banyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru ndetse hasi bakaba bambaye ikigina.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye aho abashinzwe ubuyobozi n'imiyoborere bakorera, hakaba hubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya kabisa ubururu, hakaba hasize irangi ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye aho, abanyeshuri bambara impuzankano y'umweru hejuru. ishuri rikaba rifite ibirahure by'umweru ndetse n'nzugi n'amadirishya bisa ubururu.

Abanyeshuri bari mu rugendo rwo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ari abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Aho bambaye impuzankano z'imipira n'amashati y'umweru n'agatambaro k'ivu mu ijosi.

Icyumba k'ishuri abana bariramo. Abana bakaba bari kurira ku masahane, no mu mabase bakaba bambaye impuzankano z'umweru hejuru, naho iri shuri rikaba ryubatse risize amarangi y'umweru n'amadirishya akaba arimo ibirahurire by'umweru.

Icyumba cy'ishuri aho iki cyumba kirimo ikibaho kigezweho cy'umweru, igikuta kikaba gisizwe amabara y'umweru.

Icyumba cy'ishuri, aho iki cyumba cyubatse gifite amadirishya arimo ibirahuri by'umweru, naho iki cyumba kikaba kirimo intebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga zisa ubururu.

Imbuga nini isasheho amapave, hirya hakaba hari ubukarabiro, hakaba hateye ibiti, hakaba hari ibyatsi, hakaba hakikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Ishuri rya Kaminuza risize irangi ry'umweru, rifite akabaraza hanze, inzugi zikaba zisa umweru n'ibirahure bikaba bisa umweru, hanze hakaba hateye indabyo.

Ishuri rya kaminuza aho bigisha abanyeshuri uburyo wakoramo ubugeni mu gutera irangi, ukavanga amarangi ku gishushanyo kimwe.

Icyumba cy'ishuri aho iki cyumba kirimo intebe z'urwegamiro abanyeshuri bicaramo. Hakaba hasi hari hasa umweru. Bakaba abanyeshuri baba bambaye imyenda itandukanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza bakaba barimo barasobanurirana mu makayi yabo, bakaba bicaye ku ntebe zisa ikigina ndetse n'umweru, aho bicaye ni munsi y'igiti.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza. Aho iki kigo cyubatse inzu zigeretse, kikaba gisize amarangi y'umweru. Imbere y'iki kigo hakaba hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bakaba bishimiye gusoza amashuri yabo, aho bambaye amakanzu y'ubururu afite umwitero w'umutuku.

Ishuri rya kaminuza cyangwa ry'muwuga, rikaba ryigisha ibintu by'ubugeni, aho abanyeshuri abigisha uburyo gutarama irangi, bigakurura abantu.

Ubusitani bw'ikigo cy'amashuri, aho ubu busitani burimo: indabyo, ibyatsi ndetse n'ibiti. Hakaba imbere yaho hari aho bajugunya imyanda.

Icyumba cy'ishuri rya kaminuza, aho iki cyumba kirimo abanyeshuri babiri, hakaba harimo intebe zisa ubururu ndetse n'ameza ariho umuhondo wijimye.

Ishuri ryo muri kaminuza, rikaba ryubakishijwe risize amarange y'umweru, ibirahuri by'umweru ndetse n'inzugi z'umukara, hakaba hari n'intebe zisa ubururu ndetse n'amakaro, hasi.

Ishuri rya kaminuza risize irangi ry'umweru, hanze hakaba hateye ibyatsi, indabyo n'igiti, hakaba hari n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, hakaba ari n'igiti kiriho amatara.